Uburezi bw'ibanje mu Rwanda aho hari ikibaho, aho bari kwiga shimi. Mwarimu akaba ari imbere, akaba yambaye itaburiya yabugenewe, akaba ari no gukora paratike ku banyeshuri akabigisha.

Ni abanyeshuri bari muri laboratwari, barimo kwiga imashini zitandukanye. Iyi laboratware ikaba ari nziza, amatara ari kwaka, ndetse bikaba bigaragara y'uko yubatse mu buryo bwa kijyambere.

Abanyeshuri bari mu ishuri, aho bicaye muri gurupe, aho bari gusobanurana, barishimye kandi bahuje urugwiro, bafite ubwumvikane, kandi ibintu byose ni neza mu burezi bw’u Rwanda.

Umunyeshuri wambaye itaburiya y'ubururu, arimo ari ku mashini aho ari kwiga. Imashini hakaba hateretse impande yayo agacupa, ndetse uyu musore akaba yambaye ga mu kuboko.

Abanyeshuri barimo bari kwiga kudoda bambaye ibisurubete by'ubururu. Aba banyeshuri bakaba bari kwitegereza neza ibyo bari gukora, kandi bikaba bigaragara yuko bari gukoresha imashini za kizungu za kijyambere.

Abagore bari kwiga kubaza, cangwa se bari gukora ameza. Ibi bikaba bigaragaza yuko n'abagore bashoboye kandi nta cabananira, bicwo bakarushaho kwiteza imbere.

Aba ni abanyeshuri biga ibyo guteka, bari gukora ubushakashatsi ku bijyo bitandukanye, kugira ngo barebe niba byanduye cangwa se bitanduye cangwa se barebe ibigize ibi bijyo.

Abo ni abanyeshuri basa nk'aho bari gupima ibintu by'ubutaka cyangwa se benda gupima ikibanza ahantu benda kubaka. Bakaba ari nk'abafundi kuko urabona ko bambaye ingofero z'imituku iz'imihondo ndetse n'amasarubeti.

Umugabo n'umukobwa we, umukobwa akaba afashe ku gishushanyo c'umukobwa ufite akebo ku rutugu. Umugabo akaba yishimye kandi bakaba bari kwifotoreza kuri iki gishushanyo.

Aba ni abanyeshuri bigaragara ko bari mu kizamini cya puratike. Basa nk'aho biga muri rya shuri ryigisha imyuga IPRC, noneho bakaba bari gukora nk'ikizamini cyangwa se buri wese ari kugerageza ko ibyo bize yabishobora.

Abakobwa bambaye niforemesa bakaba bari kwiga kudoda buri wese akaba yambaye meterojosi ab'imbere bakaba bambaye iniforome yabo n'ab'inyuma bakaba bambaye iniiforome yabo bose bambaye imiforome bakaba bari kudota.